Abantu benshi b'abaganga, bambaye amataburiya ndetse bafite n'amakarita yabo mu ijosi, bamwe baricaye abandi barasutamye ndetse abandi barahagaze.

Umwana mutoya, uri gukaraba intoki ndetse n'isabune. Yambaye umupira w'ubururu, uciyemo imirongo y'umukara. Ndetse umusukira amazi, ni umuntu mukuru akoresheje ijage y'icyatsi.

Icyapa kiriho abana babiri bose bambaye amashati y'umutuku, umwe ari guseka bari kumusukira amazi agakaraba intoki undi afashe igikombe ari gusuka amazi ku ntoki z'undi.

Abakobwa bane ndetse n'umuhungu umwe bambaye imipira isa y'ubururu ndetse bambaye n'amakarita y'akazi mu ijosi, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ''unicef '' gifite ibara ry'ubururu.

Israel Mbonyi yambaye amarineti ndetse ari gukinisha akana k'agahinja, gateruwe na mama wako wambaye umupira w'umweru ndetse akenyeye n'igitenge...

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze, inyuma ndetse n'iruhande rwabo. Bari kwifotoza biganjemo abambaye imyenda y'umweru ndetse inyuma yabo hari icyapa.

Umwana w'umunyeshuri wazinze umupira yambaye ndetse ari gufungura amazi kugirango abashe gukaraba, amazi ari mu ndobo ifite ibara ry'umweru, hejuru hasa ubururu bwerurutse.

Abantu babiri bahagararanye barebana, bari kuganira ndetse umwe yambaye umupira w'ubururu ateze amatwi ibyo undi umuri imbere ari kumubwira, inyuma yabo hari undi muntu wambaye umwenda utukura.

Abantu batandatu bicaye imbere ndetse bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batanu bambaye amakoti, inyuma yabo hari ibyapa biriho amafoto y'abantu ndetse imbere y'abo bantu bicaye, hari abandi benshi bicaye, babateze amatwi.

Abagore bafite abana batoya b'impinja, baje kwipimisha kwa muganga, ndetse aba bagore bose baricaye, bategereje ko babakira.

Abantu benshi bicaye mu inama, bicaye barebana, imbere yabo hari ameza ateretseho indabo ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura biganjemo abazungu ndetse imbere yabo hari ameza ariho impapuro ndetse n'amacupa y'amazi y'Inyange.

Umugore wateruye umwana ndetse yambaye imyenda y'ibitenge, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'akazi uri gusuzuma uyu mwana kugira ngo babashe kumenya uburwayi afite.

Abantu bahagaze bari kwifotoza ndetse babiri muri bo bambaye imyenda isa, ni abakobwa bigaragara ko ari abaganga, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abantu bahagaze mu ishuri ry'abana batoya iri shuri rishushanyijemo inzu ndetse n'abana, aba bantu biganjemo abagore ndetse umwe yifashe hejuru y'amatako.

Umusore w'umuganga wambaye itaburiya ndetse yambaye ikarita y'akazi mu ijosi, hari gusuzuma umukecuru witeze igitambaro, ndetse iruhande rwe hari undi uri kwereka muganga imiti.

Umubyeyi uteruye umwana yambaye imyenda idoze mu gitenge ndetse ateze n'ikindi bisa, afite igipande mu ntoki ari kwa muganga, iruhande rwe hari abandi babyeyi bicaye.

Abantu babiri bicaye umugabo n'umugore, umugabo yambaye bote z'umweru ndetse n'ishati iciye amaboko, intebe yicayeho iteretseho amakayi menshi ndetse imbere ye hari umugore wicaye uri kumwe n'akana gatoya.

Abantu benshi bari kwifotoza, imbere hari abagabo babiri bambaye kositimu ndetse na karuvati, iruhande rwabo hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu, iruhande rw'aba bantu bose hari idarapo ry'u Rwanda.

Abantu benshi bari mu munsi mukuru ndetse hari abicaye n'abahagaze biganjemo abakuze, hirya hari amahema afite ibara ry'umweru ndetse inyuma yayo hari inzu zihubatse.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara. Ndetse bicaye begeranye ku buryo babasha kuganira, bahana ibitekerezo. Biganjemo urubyiruko, ndetse inyuma yabo hari amarido, ari ku muryango.

Abagore babiri bateruye umufuka bari kuwujyana hamwe n'indi mifuka iteretse iruhande itondekanyije, iyi mifuka yose ifite ibara ry'umweru. Iruhande rw'imifuka hari abagabo bahagaze ndetse bari kwitegereza aba bagore.

Umwana mutoya w'umukobwa wambaye imyenda idoze mu gitenge, yiganjemo ibara ritukura, ari gukaraba kuri robine ndetse amazi akarabye ahita ajya mu ibase.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'ikabutura y'umukara ari kuvoma amazi kuri robine, bakanda bazamura, ndetse iruhande rwe, hari abandi nabo bari kuvoma.

Umugore ukenyeye igitenge ndetse wikoreye indobo ifite ibara ritukura. Mu kaboko ke k'iburyo afashe indi ndobo y'umuhondo ndetse iruhande rwe hateye ibiti, aho ari kwerekeza naho birahari.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi. Ndetse n'ikabutura, ari ku ivomero, aho ari gukaraba intoki. Iri vomero rifite robine ebyiri: imwe imbere, indi inyuma. Iruhande rw'iyi robine hateretse indobo ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye mu nama biganjemo abagabo ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho amatasi y'umweru ndetse na porojegiteri yifashishwa kugira ngo babashe kureba ibintu muri rusange.

Icyumba kiri kuberamo inama ndetse imbere hicaye abantu batandatu, abagore batanu ndetse n'umugabo umwe wambaye ikoti, iruhande rwabo hateretse amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi, imbere y'aba bantu bicaye, hari abandi bantu bicaye bari kumva ibyo bababwira.

Umugore ukenyeye igitenge, wambaye umupira w'icyatsi ndetse ahetse umwana mu gitenge, ari koza umufuniko w'indobo utukura, imbere ye hari ivomero.

Abantu babiri umwe ni umuganga yambaye itaburiya y'umweru iciye amaboko ndetse ari gutera urushinge umugabo umwicaye imbere bose bambaye udupfukamunwa.

Umwana ufashe igikombe mu ntoki, ari ku ivomero aho hari robine ebyiri. Imwe ari kuvamo amazi ameneka indi uyu mwana ari kuvomeramo, yambaye umupira utukura.

Abantu bicaye mu ihema riteguye neza, ririho ibitambaro by'ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, bicaye ku ntebe ziriho imyenda y'umweru ndetse imbere yabo hahagaze umugabo uri kubabwira.

Umugore uteruye umwana ndetse uyu mugore yambaye imyenda idoze mu bitenge, imbere ye hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ndetse bari kwa muganga, imbere yabo hari umunzani bapimiraho abana ibiro.

Abantu bari kwa muganga ndetse umwe arahagaze, ni umugabo, yambaye ishati iciye amaboko ndetse hari abandi bamama bicaye, umwe ateruye umwana.

Abantu babiri bicaye umwe ni umugore w'umuganga afite ikayi mu ntoki ze ari kwandika, yambaye ishati y'umweru ndetse yicaranye n'umugabo wambaye umupira w'ubururu, inyuma yabo hari icyapa.

Abantu bahagaze ndetse abagabo bambaye amakoti ndetse babiri muri bo bari gusuhuzanya, iruhande hari umugore w'umuzungu uhagararanye n'undi mugabo wambaye ishati ndende.

Umugore uri ku ivomero yambaye umupira w'imbeho ndetse akenyeye igitenge yambaye n'ingofero mu mutwe ari kuvoma ndetse avomera mu ibido, iruhande rwe hari ibyatsi bihateye.

Umusaza wambaye ingofero ndetse n'umupira w'umweru n'ikote ry'umukara, akaboko kamwe yagakuye mu ikoti bari kumusuzuma, umugore uri kumusuzuma yambaye itaburiya y'ubururu ndetse aniteye igitambaro mu mutwe.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ari mu nyubako irimo abantu benshi bicaye, ari hagati yabo ndetse ari kubabwira bose bamuteze amatwi, iyi nyubako iteye irangi ry'umweru.

Umwana uri ku ivomero uri guseka, arasutamye ndetse amaboko ye ari kuyategesha amazi, imbere ye hari amabido afite ibara ry'umuhondo ndetse n'indi ifite ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bambaye amataburiya, umwe yambaye ikositimu ndetse na marineti, iruhande hari umugabo uhagaze wambaye itaburiya isa umweru idafite ibara risa n'iryabandi.

Abana babiri b'abanyeshuri bicaye mu ishuri ndetse umwe yazamuye akaboko, imbere yabo hari ameze ndetse inyuma yabo hari ikibaho bigiraho cyanditseho amagambo menshi.

Icyumba kiri kuberamo inama, iyi nama irimo abagabo bambaye amakoti ndetse n'abagore babiri ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi n'amacupa y'amazi y'inyange, inyuma yabo hari idarapo y'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, harimo n'abambaye imipira y'ubururu, bafite icyapa cyanditseho "umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Kanseri."

Umubyeyi uteruye umwana ndetse yambaye ikanzu idozwe mu gitenge, hari umuganga uri guha uyu mwana umuti, uyu muganga yambaye itabuririya y'umweru.

Abantu batanu, bambaye imipira isa ndetse ingofero zisa, bose bazamuye akaboko kabo k'iburyo gafunze igipfunsi, barishimye.

Umugore usutamye ari kuvoma ndetse ari kuvomera mu ibido iteretse mu ibase. Iruhande rwe, hari inzu ihubatse, ifite amabati ndetse inyuma ye hanitse imyenda.

Ivomero riteretseho i base itukura iri kujyamo amazi, iruhande rw'ibase hari izindi zitegereje ko yuzura na zo zikavomerwa, iruhande rw'iri vomero hari umugore uhagaze ndetse n'abana benshi bari gukina.

Umugabo w'umwirabura, wambaye ishati iciye amaboko ndetse n'ipantaro' y'umukara, ari guseka cyane ndetse yicaye ku ibido iri hamwe n'ivomero, iyi bido fite ibara ry'umuhondo.

Abantu bahagaze bari kwifotoza, barimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru, ndetse n'abambaye amataburiya y'ubururu yererutse, iruhande rwabo hari icyapa ndetse hejuru hari amabati abatwikiriye.

Umugabo w'umwirabura uri guseka cyane yicaye ku ibido ifite ibara ry'umuhondo. uyu mugabo yambaye ishati iciye amaboko n'ipantaro y'umukara ari ku ivomera inyuma ye hari ibyatsi bihateye.

Uruganda runini rufite amatiyo manini cyane ndetse afite ibara ry'icyatsi ndetse igice cyo hepfo ni ibara ry'ubururu.

Umuhanzi Israel Mbonyi yambaye amarinete ndetse ari kugaburira umwana mutoya uteruwe na mama we, uyu mubyeyi yambaye umupira w'umweru.

Abantu bahagaze ku murongo bari kwifotoza, ahantu bahagaze hari sima ifite ibara ry'umutuku ndetse inyuma yabo hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Icyapa kiriho amafoto y'abantu ndetse aba bantu biganjemo abahinde, iki cyapa cyanditseho amagambo yo mu Cyongereza yandikishijweho inyuguti z'umweru ndetse n'umuhondo.

Umugore uteruye umwana. Uyu mugore akenyeye igitenge, ndetse ari kuvoma. Indobo ye ifite ibara ry'umukara. Ateruye umwana wambaye ingofero y'umweru.

Umugore uteze igitambaro cy'umweru, n'umwana, bahagaze imbere y'imboga. Izi mboga zirabakikije, ku buryo utabasha kubona amaguru yabo.

Abantu barimo abaganga ndetse n'umurwayi umwe bari gupima amaraso, ndetse yicaye ku ntebe akaboko ke yakarambitse ku meza.

Umwana usutamye uri guseka cyane arishimye ari ku ivomero ndetse intoki ze yaziteze ku ivomera amazi ari kuza agwa mu ntoki ze iruhande hateretse amabido.

Abantu babiri bari kwifotoza bafashe agakapu k'umukara kanditseho viziti Rwanda ndetse aba ni umugabo n'umugore w'umuzungu. Iruhande rwabo hari ibyapa byamamaza.

Umugabo w'umuganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse afashe ku rutugu rw'umugabo w'umwisiramu wambaye ingofero ndetse n'ikanzu, inyuma yabo hari umwana wambaye umupira w'ubururu.

Abagore batatu bari ku ivomera, ivomero rya kizungu, umwe ari kunywa amazi, undi ari gukaraba intoki, undi mugore ahagaze imbere yabo yambaye ishati y'umutuku

Icyumba cyo kwa muganga, gisizemo irangi ry'umweru ndetse gicanyemo amatara. Kirimo ibitanda by'abarwayi, bifite ibara ry'umweru ndetse aho abarwayi baryama hasa ubururu.

Abakecuru bicaye ndetse imbere yabo hari umugore ubicaye imbere, afite indangururamajwi, ari kubaha bakayivugiraho ndetse yambaye ikoti ry'umweru.

Umwana uri ku ivomero, afite igitenge ku rutugu rwe ndetse akaboko ke k'iburyo gafashe ibido, iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu idoze mu gitenge.

Abantu bahagaze bari kwifotoza harimo abagore ndetse n'abagabo, aba bagabo bambaye amashati ndetse umwe yambaye ijire y'ubururu ari hagati, inyuma yabo hari inzu iteye irangi ry'ubururu.

Umwana uri gukaraba mu maso akoresheje akaboko kamwe. Uyu mwana afite imisatsi ikaraze ndetse yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara. Inyuma ye hari ibyatsi.

Abana bane bose bari kureba hejuru, bari guseka ndetse bari kubasukira amazi kugirango bose bakarabe, umugabo uri kubasukira amazi yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abana bari kuvoma ndetse bari kuvomera mu ndobo, aba bana bose bambaye imyenda isa yaba abahungu ndetse n'abakobwa, umwe iruhande rwe hari akabido.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'imyeru, umwe ni umugore, undi ni umugabo, bari kuvura umwana uryamye ndetse iruhande rwe hicaye umugore wambaye imyenda y'ibitenge, ateze igitambaro cy'icyatsi.

Umubyeyi wambaye ingofero arikunywesha abana amata. Aba bana ni batoya bambaye imipira itukura. Ndetse uyu mubyeyi ari gukoresha inkongoro abanywesha amata. Inyuma ye hari abandi na bo bafite amata.

Ivomero ririho robine enye imwe iri kuvmo amazi ndetse umuntu uhavomera yambaye inkweto z'umukara ndetse yiteye n'igitambaro gifite ibara ritukura ndetse n'umweru inyuma ye hari ibyatsi.

Abantu bahagaze bari kwifotoza, ni umugabo n'umugore iruhande rwabo hari abandi babana batoya ndetse barishimye bari guseka.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara ndetse icyumba kiri kuberamo inama kiri kugaragaramo urumuri ruturutse hanze, imbere yabo hari ameza ateretseho amakaye ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abana babiri bari ku ivomera, aho bari gukaraba intoki ndetse bari guseka, umwe yambaye umupira utukura, undi yambaye isarureti irimo utubara tw'umweru ndetse n'icyatsi.

Abana b'abanyeshuri bicaye, bari mu ishuri bari kurya. Abakobwa bambaye imyenda y'ubururu ndetse abahungu bambaye imyenda ya kaki, bose bari kurya ndetse inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho n'ingwa.

Abantu bari kuvoma biganjemo abana, abenshi bari kuvomera mu ndobo, ndetse iruhande rwabo hari ufite ibido ifite ibara ry'umuhondo, ndetse iruhande rw'iyi robine hari ibiti bihateye.

Umugore wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikanzu iciye amaboko y'ubururu, ari gukaraba intoki kuri robine ndetse iruhande rwe hari indobo ishyirwamo imyanda.

Abantu biganjemo abagore bari ku ivomero, iri vomero risize ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hari amabido menshi ategerejwe kuvomerwa, ba nyirayo bahagaze ku ruhande.

Ivomero, iri vomero rifite robine eshatu zigaragara ndetse zose ziri kuvamo amazi, iruhande hari abantu benshi bahahagaze biganjemo abana baje gushaka amazi.

Abantu benshi bambaye imipira y'umutuku bari gutera ibiti ndetse bari kubitera mumifuka irimo ibitaka iruhande rwabo hari umupolisi wambaye imyenda y'akazi.

Umugabo uhagaze wambaye ikoti karuvati itukura ndetse n'ishati y'umweru, yambaye amarineti, imbere ye hari akabati gateretseho indangururamajwi gafite ibara ry'umweru n'ubururu, iruhande rwe hari intebe zihateretse.

Abana bane bahagaze iruhande rw'ivomero, umwe ari gupompa amazi kugira ngo abashe kuzamuka avome ndetse kuri iyi robine hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu babiri bagaragara b'abagore, undi utagaragara neza ni umugabo yambaye itaburiya y'umweru. Aba abantu babiri umwe ni umuganga ndetse undi ni umurwayi bari kumusuzuma.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano, ari gukaraba intoki ze. Ndetse akoresheje kandagira ukarabe. Iruhande rwe hari igiti kihateye, gifite amashami menshi.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, imbere yabo hari ameza hateretseho amacupa y'amazi ndetse hari n'abandi babicaye imbere bari kubagezaho ibiganiro, iruhande rwabo hari televiziyo iriho umugabo uri kuvuga.

Abantu benshi biganjemo abakuze ndetse abagore bahetse abana, bose barahagaze iruhande rwabo hari ihema rifite ibara ry'umweru ndetse inyuma hari inzu iriho icyapa gishushanyijeho abantu.

Abantu bahagaze ndetse n'undi umwe wicaye bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari mudasobwa iteretse ku meza hariho igitambaro cy'umweru.

Abana benshi bari kwifotoza, bambaye imipira isa ndetse yanditseho amagambo yunisefu. Aba bana bose bafite imisatsi mikeya ndetse barasa n'abishimye.

Abagore benshi bahagaze ku murongo bari kwifotoza, imbere hari batatu bambaye amajire asa berekana ko bakorera umuryango umwe ndetse abandi bambaye imyenda isanzwe.

Abantu bane, babiri bicaye bafatanye, umugore n'umugabo ndetse imbere yabo hicaye umujyanama wambaye itaburiya y'ubururu.

Abana batatu bari ku ivomera, umwe afite icyuma ari kugenda amanura yongera azamura, amazi akabona kuza, umwana w'umukobwa yatezeho akabido ndetse amazi ari kujyamo, inyuma ye hari undi ufite utubedo tubiri ndetse iruhande rwabo hari abandi benshi bahahagaze.

Umugabo wambaye ikoti ndetse afite umusatsi n'uruhara. Imbere ye hari abantu bambaye amatuburiya ndetse n'amakarita y'akazi mu ijosi, barishimye cyane bari kubyina.

Abantu bahagaze biganjemo abagore bari imbere. Bambaye amataburiya afite ubururu bwerurutse ndetse bose bambaye udupfukamunwa. Inyuma yabo hari inyubako ndetse isize irangi ry'umweru.

Abana babiri bari ku ivomero, kugira amazi abashe kuza bisaba y’uko umwe agenda agakanda inyuma agenda akanda azamura yongera asubizayo, undi akavoma.

Umugore wikoreye igitebo, iki gitebo kirimo ibyatsi ndetse iruhande rwe hari inyubako ifite amategura, ndetse afashe isuka mu ntoki ze.

Umugabo wegamiye ku gikuta, yambaye ishati idoze mu gitenge ndetse ari kureba hejuru, iruhande rwe hari inzira yubakishije amapave.

Icyapa cyerekana cyangwa kiranga kiriho umugabo w'umuganga wambaye itaburiya yerekana ko ari mu kazi ndetse yambariyemo ishati ifite ibara ritukura.

Abantu bari kwifotoza, barahagaze ndetse baritonze bari kumurongo. Umurongo w'imbere uriho abagabo batatu ndetse n'abagore babiri bari hagati. aba bagabo, benshi bambaye amakoti.

Umugore wicaye mu nzu ndetse aripfumbase, yicaye ku ntebe y'urubaho ndetse akenyeye igitenge, hejuru ye hari idirishya rifunguye.

Abana b'abanyeshuri ni benshi bambaye impuzankano ziganjemo iz'ubururu, bari mu kibuga kinini ndetse giteyemo idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda. Inyuma y'iki kibuga hateye ibiti birebire.

Abantu babiri bicaye umwe ni umugabo undi ni umugore utese igitambaro ndetse yambaye umupira wicyatsi, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umuhondo ndetse hateretseho icupa ry'amazi.

Abana benshi bari guseka biganjemo abambaye imyenda y'icyatsi, ndetse imbere yabo hari undi wambaye agapira k'umweru gafite ijosi ry'umutuku, ndetse inyuma yabo hari n'abandi bahicaye.

Abantu babiri umwe ni umugore yambaye ikanzu idoze mu gitenge ndetse afite indagururamajwi mu kaboko ke, imbere ye hari umukobwa wambaye umupira utukura iruhande rwabo hari abandi bantu bicaye.

Abakobwa babiri bicaye ku ntebe umwe yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ari guhumuriza uwambaye ikote ritukura ndetse yambaye n'ingofero yifashe ku itama.

Icyapa kiriho umukobwa w'umwirabura ufite ibisuko bizirikiye inyuma, ndetse ari guseka cyane, arishimye, iki cyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza n'inyuguti z'umweru.

Abantu benshi bafite amadapo y'Igihugu cy'u Rwanda ndetse harimo umwana mutoya uri imbere wambaye umupira w'amaboko w'ubururu, bose barishimye cyane bari guseka.

Umugore uri guseka wambaye ikanzu y'ubururu bwerurutse ndetse yarengejeho ijire y'umuhondo, ahagaze muri botike irimo sositomate bureba ndetse n'ibindi.

Abantu benshi biganjemo abapolisi, barahagaze bari kwifotoza, ku murongo w'imbere hari umugore wambaye ipantaro itukura n'ishati yu'umweru, ndetse bose bari kureba imbere.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara ndetse imbere yabo hari umugore uhahagaze uri kubabwira, inyuma ye hari televiziyo imanitse ku gikuta.

Icyapa kiriho amagambo menshi ndetse kiriho umugabo wambaye ishati y'umweru ugeze mu za bukuru, inyuma ye hari idarapo ry'u Rwanda, iki cyapa cyanditseho amagambo ninyuguti z'ubururu agira ati turi kumwe.

Abakobwa babiri bicaye ndetse bari kuganira, umwe yambaye ikanzu y'umukara ndetse undi yambaye iy'ubururu, iriho amabara y'umweru, imbere yabo hateretse imeza iteretseho akabogisi.

Abantu benshi bari kwifotoza, imbere hicaye abantu ku ntebe zitukura ndetse inyuma yabo hari abandi bahagaze biganjemo abambaye imipira y'umukara.

Umugore witeze igitambaro ndetse yifashe neza aricaye, ari kureba kuruhande, inyuma ye hari igikuta gishushanyijeho.

Umugore wumwirabura wicaye, yambaye ikanzu ifite ibara ritukura ndetse nandi mabara avanze kumaboko, inyuma ye hari umuntu uri kutambuka.

Umugore w'umukecuru ukuze yambaye igitambaro mu mutwe cy'umweru ndetse amatwi ye hariho amaherena n'undi muririmbo mu ijosi hejuru ntabwo yambaye.

Abantu bari kwifotoza, barimo umuzungu umwe abandi ni abirabura, bari gufata ibihembo byerekana ko bahize abandi. Inyuma yabo hari inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu bicaye, aba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara ndetse inyuma y'uyu mugabo hari ibyapa bitandukanye.

umugore uhetse umwana, ndetse uyu mugore atetse igikoma, yambaye agapfukamunwa, ndetse yakamanuye ari guseka, iruhande rwe hari undi mwana uhahagaze.

Abakobwa babiri bicaye umwe yambaye ikanzu y'umukara, undi yambaye ikanzu y'ubururu ndetse irimo amabara y'umweru, baricaye bari kuganira.

Ifoto iriho abantu benshi ndetse ku murongo w'imbere baricaye ab'inyuma barahagaze ndetse iruhande hari ibirangantego byinshi bye bitandukanye hariho icya UR ni kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse n'ibindi.

Icyapa cya rbc, iki cyapa gifite ishusho y'umweru ndetse kikagira n'ishusho y'ubururu, yandikishijemo amabara y'umweru. Iki cyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'icya unicef.

Abana batoya bari kurira bari gutakamba basaba ubufasha, barasa nabi ntibaheruka koga ndetse umwe yifashe ku jisho ararira cyane.

Umugore w'umwirabura wambaye ingofero y'ibyoya byinshi, ndetse afite agatambaro mu ntoki ze, yagahishe mu maso ku buryo utabasha kumumenya.

Imodoka y'ikamyo ifite ibara ry'umweru ndetse yanditseho amagambo y'icyongereza mu nyuguti z'ubururu, iruhande rwayo hicaye abantu ku ntebe z'umweru bicaye mu matsinda.

Abantu bicaye ku ntebe zifite umwenda utukura ndetse n'utwuma hasi, aba bantu biganjemo abagore icyumba barimo kirimo urumuri rwinshi.

Umwana guteruwe na mama we, uyu mubyeyi yambaye igitambaro mu mutwe, ndetse ari kureba ibyo umujyanama w'ubuzima ari kumwereka, ku gipimo cy'umuriro amwereka uko umwana we ahagaze.

Abantu benshi biganjemo abambaye imyenda y'icyatsi ndetse bafite icyapa kinini kiriho ibirango bigiye bitandukanye, icya polisi, icya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ibindi, iki cyapa cyanditseho kurwanya ihohoterwa.

Abantu benshi bambaye imipira isa, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'abandi batatu bambaye imyenda idasa n'iy'abandi bahagaze ku murongo ndetse inyuma yabo hari inyubako.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu ndetse bose bafite uburoso bw'amenyo bari kuyoza.

Abaganga babiri, umugore n'umugabo, bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'umweru, bari kureba mu kanwa k'umwana niba ntabazo kirimo.

Umukobwa wambaye isengeri ndetse afite imisatsi myinshi, ari koza amenyo ndetse aseka ari kwireba mu ndorerwamo.

Umugabo w'umwirabura uri guseka cyane. Amenyo ye arasa umweru ndetse yambaye n'umupira w'umweru inyuma ye hari ibara ry'umuhondo.

Umukobwa wicaye, ari guseka cyane arishimye ndetse afite ibisuko birebire by'umukara, afite indorerwamo mu kaboko ke k'ibumoso ndetse akaboko ke k'iburyo kifashe ku munwa.

Abantu babiri; umwe n'umugabo undi n'umugore, ni abaganga bari kuvura umuntu uryamye ku gitanda, aba baganga bambaye imyenda y'imikara ndetse umugore yambaye akanozasuku mu mutwe.

Abantu babiri umwe ni umuganga w'umugore, yambaye imyenda y'akazi ndetse agapfukamunwa, undi aryamye ku gitanda cyabugenewe kugira ngo babashe kumuvura neza.

Umukobwa w'umwirabura ufite imisatsi igera mu maso afashe akadodo n'amaboko yombi ndetse ari kugakurura akakarumisha amenyo, yambaye isengeri y'umweru.

Abaganga bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'udupfukamunwa tw'umweru, umwe ari kuvura umukobwa mu kanwa, umukobwa ufite ibisuko by'umukara yasamye ndetse bari gukoza agakoresho kabugenewe mu kanwa.

Umugabo ugeze mu za bukuru ufite imisatsi y'umweru ndetse wambaye amarinete, yambaye umupira uciye amaboko ndetse mu kaboko ke afitemo akantu ndetse imbere ye hari indorerwamu.

Kwa muganga iki cyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda abantu baryamaho kugira ngo babashe kubasuzuma neza, hariho n'agatebe gafite ibara ry'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga harimo: intebe, ndetse n'igitanda byifashishwa n'abaganga igihe bagiye kukuvura.

Umugabo w'umwirabura ufashe akadodo mu ntoki ze ebyiri ndetse ari kutwereka ko ari kugakoza mu menyo kugira ngo abashe gukuramo imyanda.

Umuganga wambaye ga z'umutuku ndetse afite ikijigo ari kwiga uko amenyo ameze ndetse yambaye itaburiya y'umweru, afite akuma kabugenewe ari gukoresha kuri aya menyo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo intebe ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'igitanda abarwayi baryamaho igihe bari kubavura. Ndetse iki cyumba kirimo televiziyo imanitse ku gikuta.

Abantu bicaye ndetse n'undi uhagaze bambaye imipira y'icyatsi yanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo agira ati "tubiteho" inyuma yabo hari abandi bahagaze.

Umwana mutoya ufite imisatsi myinshi, araryamye ndetse ari kwa muganga bari kumuvura, umuntu uri kumuvura aragaragara ku maboko gusa ndetse yambaye ga z'icyatsi.

Umugabo w'umwirabura uri guseka cyane yambaye umupira umukara ndetse ari kugaragaza amenyo ye yo hasi'ayo hejuru amatwi abiri ari kugaragara ndetse bamufotoye ku gice cyo hejuru ubusa.

Abagabo babiri b'abaganga bose baricaye ndetse bambaye udupfukamunwa dusa bari kuvura umugore ubaryamye imbere ndetse bari kumuvura amenyo, umugabo umwe yambaye itaburiya y'umweru undi yambaye ijya kuba icyatsi.

Umwana mutoya w'umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara, uyu mwana yambaye umupira w'umuhondo ndetse arasamye muganga afite akuma ari gukoza mu kanwa kugira abashe kureba ikibazo umwana afite.

Abantu babiri umusaza ndetse n'umukecuru, bageze mu za bukuru bose bafite imisatsi y'imvi, umusaza ari kunywa imiti kubera imbere ye hateretse ikirahuri cy'amazi ndetse afite ikinini mu ntoki ze.

Abantu babiri umwe wambaye imyenda y'ubururu yerekana ko ari iy'abaganga, ndetse nundi ugeze mu zabukuru, bari guha ikinini kugirango akinywe akoresheje amazi.

Abantu babiri umusaza ufite imvi mu musatsi ndetse no mu bwanwa, yambaye umupira w'umweru, iruhande rwe hari umuforomokazi wambaye imyenda y'abaganga ifite ibara ry'ubururu ni umuzungu afite imisatsi miremire.

Abantu babiri, umwe ni umuganga w'umukobwa ndetse afite imisatsi miremire, yambaye imyenda y'ubururu ndetse ari kuvura undi mugabo wambaye amarinete.

Abantu babiri bari guseka cyane bageze mu za bukuru barishima, imbere yabo hari ameza ndetse bari gukina umukino, umwe n'umugabo undi n'umugore.

Umugabo w'umwirabura ufite imvi kumusatsi we, yambaye ishati itukura iciyemo imirongo ndetse ari kwarura, bari kumeza kugirango babashe kurya.

Abantu babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri umwe ni mugabo ufite umusatsi mukeya ndetse n'ubwanwa bw'umweru ari gukurura umugozi ndetse akururana nndi utagaragara neza.

Abantu babiri, umwe ni umuganga yambaye imyenda y'akazi undi ni umukecuru ufite ikirahuri kirimo amazi ndetse bari kumuha ikinini agiye kunywa.

Abantu babiri bafatanye ku rutugu, barishimye. Umwe ni umugabo undi ni umugabo ugeze mu zabukuru, yambaye ingofero ndetse bari kunyura mu kayira gatoya kubakishije amabuye ndetse inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Mu cyumba kwa muganga umugabo ufashe igikoresho cyifashishwa kugira ngo umuntu abashe kwitoza kugenda ndetse uyu mugabo agifasheho, arahagaze inyuma ye hari igitanda.

Abantu babiri b'abirabura, umukobwa ndetse n'umukecuru. Barishimye cyane bari guseka. Umukobwa yambaye imyenda y'icyatsi yerekana ko akora kwa muganga. Umukecuru afite imisatsi irimo imvi.

Abantu babiri b'abagore, bose bageze mu zabukuru ndetse bari gukora imyitozo ngororamubiri umwe yambaye umupira ndetse afite akabande ku kaboko ke, undi yambaye isengeri ndetse bose barambuye amaboko, kumwe imbere ukundi inyuma.

Abantu b'abagore biganjemo abambaye imipira y'umweru ndetse n'amajipo y'umukara bari, ku murongo bagenda babyina barishimye. Imbere hari umugore wambaye imyenda idasa n'iy'abandi.

Umwana na se, barishimye cyane bari guseka, bose baricaye bari gusoma igitabo ndetse imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru ateretseho amatasi abiri.

Abantu babiri bishimye bari guseka ni umusaza n'umukecuru ndetse bafite imvi, umugabo yambaye umupira w'umweru ndetse afite isahani imbere ye, bose bari kurya.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore, umugabo yambaye umupira w'ubururu ndetse ari guseka, umugore ari kumwerekera uko agomba kurambura ukuboko kwe neza kugororotse.

Abantu babiri umwe ni umusaza w'umwirabura, undi ni umuzungu w'umugore ufite imisatsi miremire y'umukara, inyuma yabo hari undi muntu uhicaye wambaye ishati y'umweru.

Abagore babiri bari kugenda bakora siporo umwe ateze agatambaro k'umutuku ndetse bose bambaye imyenda yumukara umwe yazinze amaboko undi amaboko ye aracyamanuye iruhande rwabo hari ibiti.

Umugore ugeze mu zabukuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye yayashinze hasi, inkokora ndetse n'amaguru na yo arayashinga amano, ku buryo abasha kwifata mu kirere.

Abantu babiri bicaye, umwe ni umuganga yambaye itaburiya y'akazi ndetse undi ni umurwayi bari kumwereka ibizamini bye ndetse uyu murwayi afite imvi mu musatsi we.

Abakecuru batatu bishimye cyane bari guseka, barakuze ndetse bafite imvi, umwe yambaye umupira w'umweru, undi umuhondo, undi ubururu bwererutse, bari gufata ifoto muri telefone.

Abantu babiri bishimye, ni umugore n'umukobwa ndetse barafatanye mu biganza, umugore aricaye, umukobwa yunamye inyuma ye, ari kumureba mu maso, baseka.

Abantu babiri bari kwirukanka bari gukora imyitozo yo kwiruka, umwe ni umusore ndetse undi ni umugore ufite imisatsi irimo ibara ry'umweru. Yambaye isaha ku kaboko ke ndetse inyuma yabo hari ibiti bitagaragara neza.

Abantu babiri umukobwa ufite imisatsi izirikiye hejuru wambaye itaburiya y'umweru ni umuganga, ari gusuzuma umusaza ufite ubwanwa bw'umweru ndetse akoresheje akamashini.

Umugabo w'umwirabura ugeze mu zabukuru, afite igitabo mu ntoki ze ari gusoma ndetse akandi kaboko gafashe ikaramu, yambaye amarineti kugira ngo abashe kureba neza.

Umukecuru wambaye amarineti ndetse afite umusatsi mwinshi urimo imvi, akaboko ke k'iburyo gafashe ku munwa ndetse akandi k'ibumoso gafashe ikirahure kirimo amazi.

Abagore bishimye cyane bazamuye amaboko yabo, bahagaze ahantu mu murima ndetse hateyemo ibigori, iruhande hari umugabo wambaye ikanzu.

Umuganga w'umuzungu ndetse ari kwereka hano umukecuru ibintu akora, uyu muganga yambaye imyenda y'akazi afite imisatsi miremire y'umukara.

Abantu batatu b'abagore, bari kureba muri telefone imwe, uyifashe yicaye hagati, ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu, ndetse aba bagore babiri bo ku ruhande bambaye ingofero ku mutwe wabo.

Abantu babiri umukecuru ndetse n'umukobwa we barishimye cyane bari guseka, bafatanye amaboko umugore yicaye mu ntebe ndetse umwana ahagaze inyuma y'intebe bari guseka cyane bahuje imitwe.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru hejuru, hasi umukara, bari guseka ndetse bagenda baganira, iruhande rwabo hari ibiti birebire.

Umusaza w'umwirabura ufite imisatsi irimo imvi, bari kumwuhagira ndetse amazi aturuka hejuru, umuntu uri kumwuhagira aragaragara intoki gusa.

Abantu babiri umwe yambaye imyenda y'abaganga ndetse afite akuma kifashishwa mu gupima umutima akambaye mu ijosi, ari kumwe n'undi wambaye amarinete ugeze mu za bukuru kuko afite imvi mu musatsi we nyinshi.

Abantu babiri bicaye umwe numusaza ufite ubwanwa ndetse n'umusatsi birimo imvi undi, ni umugore wambaye ikanzu y'umweru, imbere yabo hari impapuro nyinshi ndetse bafashe rumwe bari kurusoma.

Abantu babiri bari kugenda umwe ni umuganga w'umukobwa ndetse n'umuzungu arikwereka undi mugabo uko yakoresha imbago agenda afite ikibazo cyo kutagenda neza.

Abagore bambaye imyenda yiganjemo ubururu bose bari kugenda ndetse umwe yambaye amarinete arabyibushye, i ruhande rwabo hari inzira y'abanyamaguru iteyeho ibyatsi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura ndetse biganjemo abagore, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho umuryango w'abagore mu cyongereza.

Icyapa cya arabisi arabis ni ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda ndetse ra ifite ibara ry'ubururu, ba ikagira ibara ry'umuhondo ca ikagira ibara ry'icyatsi.

Icyapa gifite ibara ritukura cyanditseho amagambo afite ibara ryera, kiriho umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse ari kureba imbere.

Abantu bane bahagaze, batatu ni ababikira ndetse undi umwe ni umugabo yambaye ikote, aba babikira bambaye imyenda isa ndetse banitandiye mu mutwe.

Abantu benshi bari kwifotoza abari imbere baricaye ndetse inyuma barahagaze, iruhande rwabo hari ibyapa byamamaza.

Abantu batandatu bicaye imbere batanu n'abagabo, ndetse undi umwe n'umugore bambaye amakoti, ndetse imbere yabo hari abandi bahicaye bari kubwirwa.

Abagabo babiri bambaye amakoti ndetse na karuvati, bari gusuhuzanya bifotoza ndetse mu kaboko kabo harimo ibitabo.

Abantu bahagaze bitonze ndetse bari kwifotoza. Bambaye amakarita y'akazi mu ijosi. Inyuma yabo hari ibyapa byiganjemo ibifite ibara ry'umweru ndetse n'iritukura.

Icyapa kiriho amafoto menshi, ndetse cyanditseho n'amagambo yo mu cyongereza, iki cyapa kiriho ifoto y'abaganga bambaye imyenda y'umweru, kikabaho ifoto y'umukobwa wicaye, ndetse imbere ye hari ikintu cy'ubururu.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse cyanditsemo amagambo y'Icyongereza n'ibara ry'umweru, hasi hariho ibirango by'imiryango yikorera cya n'indi ishingiye kuri leta, hariho RBC, hariho UR ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu benshi bafashe ibyapa bibiri bari kugenda aba bantu bambaye imipira y'umweru ndetse ibi byapa byanditseho amagambo amwe agira ati twirinde kanseri y'ibere.

mbuto ni ibiribwa byongerera umubiri ububasha bwo kuba waririndwa indwara mu gihe kinini, ndetse izi mbuto zikoreshwa kugira ngo umubiri ubashe kugira intungamubiri.

Abaganga babiri bambaye bikwije, bambaye imyenda yabugenewe kugira ngo atabasha kugira aho ahurira n'umurwayi ndetse imbere yabo hicaye umusore wambaye ingofero ndetse n'imyenda y'umukara, bari kumusuzuma ariko batamukozeho.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo yambaye ishati y'umukara yitwa Mico Debeste ndetse umugore nawe yambaye ikoti ry'umukara bafashe icyapa cyanditseho twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Umugabo w'umuzungu wambaye ikoti ry'umukara, ndetse iruhande rwe hari televiziyo iri guhita imunyuzaho ibyo ari kuvuga, kugira ngo abantu babashe kumukurikira.

Abantu benshi bicaye biganjemo abambaye imyenda y'umweru, bose bari kureba imbere, abantu bari kubyina barimo abagore ndetse n'abagabo, abagore bambaye imishanana ndetse abagabo bambaye imipira y'ubururu barenzaho imyitero.

Igishushanyo kiriho abagabo babiri bambaye amakoti y'imikara ndetse n'amashati y'imikara na karuvati. Umwe aricaye undi amuhagaze iruhande, inyuma y'abo handitse amagambo y'icyongereza.

Ifoto iriho umugabo wicaye wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki ndetse imbere ye hari abana na bo bicaye, imbere yabo hari amagambo yandikishijwe inyuguti zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Icyapa cyamamaza kiriho umukobwa wambaye amarinete ndetse afite umusatsi muremure w'umukara, hejuru y'iki cyapa hari amarineti menshi agurishwa.

Icyumba cyo kwa muganga, iki cyumba kirimo ibitanda ndetse n'amamashini, umurwayi araza akaryama ku gitanda ndetse bakareba ikibazo afite.

Kwa muganga aho umugore aryamye munsi y'icyuma kugirango babashe kumubaga neza. Imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse iruhande rwe hari abandi babiri bahagaze bamufashe.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho isize irangi ry'umuhondo ku gice cyo hejuru ndetse ifite imiryango y'umweru iriho ibirahuri byijimye, iyi nyubako yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu karayese.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite amabati y'ubururu bwerurutse, iyi nzu yanditseho amagambo agira ati: " Inzu y'ababyeyi, ni ho ababyeyi babyarira."

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kuvura umugabo uryamye ku gitanda, wambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero y'umukara n'agapfukamunwa.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ndetse yubakishije amabuye, imbere yayo hari imbuga nini yubatsemo amapave ndetse iruhande hari ubusitani butemo jaride.

Abantu bari mu ruganda, bambaye imyenda y'imyeru ya mataburiya, ndetse n'utunozasuku mu mutwe, kandi bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari amamashini ari gutambukaho amacupa.

Imodoka iparitse iruhande rw'inzu ndetse hejuru yayo hari icyapa cyerekana ko hagurishwa imiti, giherereye i Remera, iyo nzu isize irangi ry'umuhondo.

Inzu isize amarangi abiri atandukanye, ku gice cyo hasi ndetse n'icyo hejuru ndetse iranasakaye n'amabati. Imbere y'iyi nyubako hari imbuga nini ndetse irimo amapave, iriho amadarapo abiri.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ifite imbuga imbere yayo, iyi mbuga irimo ubwatsi bukase neza ndetse kuri ubu bwatsi hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini zifashishwa kugirango babashe kumenya uko ibizami bihagaze, ndetse iki cyumba gisizemo irangi ry'umweru.

Inzu y'igorofa ifite irangi ry'umuhondo, imbere hariho icyapa cyanditseho amagambo agira ati inzu y'ababyeyi n'impinja.

Abantu batatu bicaye, umwe ni umuganga yambaye agapfukamunwa ndetse n'amarinete afite ibisuko. Imbere ye hari abagore babiri bahicaye ari gusuzuma.

Abantu babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, undi akenye igitenge, bari gusohoka ku rupangu ruriho icyapa kigira kiti ikigo nderabuzima cya Matyazo.

Abagabo babiri b'abaganga, bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'amataburiya y'umweru cyane, imbere yabo hari imashini, barahagaze bari kuyitegereza, yifashishwa kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo irangi ry'umweru ndetse gifite amatara ari kwaka, iki cyumba kirimo ibyapa bifite ibara ry'icyatsi bibiri ndetse kimwe cyanditseho amagambo y'icyongereza.

Inzu y'igorofa nini ifite irangi ry'umweru ndetse imbere yayo hari icyapa cyanditseho amagambo n'inyuguti z'umukara zigira ziti: ikigo nderabuzima bya kanyinya.

Icyumba cyo kwa muganga kinini kirimo irangi ry'umweru ndetse n'amakaro y'umweru. Iki cyumba kirimo ibitanda by'abarwayi bitandukanye ndetse n'amamashini bifashisha.

Icyumba kirimo intebe, igitanda, amamashini ndetse n'icyuma batwaraho serumu ndetse aha ni kwa muganga, hari amamashini yifashishwa kugira ngo abashe kuzana umuyaga.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ndetse isize irangi ry'umuhondo, aho bubatse n'ibikuta ndetse hari n'ibindi bice biriho amakaro, iyi nzu isakarishijwe amabati y'umutuku, imbere yayo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu y'igorofa yubakishije amatafari ahiye ndetse hejuru yayo hari icyapa cyamamaza, cyerekana ko ari kwa muganga. Imbere y'inyubako haparitse imodoka z'umukara.

Inzu irimo irangi ry'umuhondo ndetse iyi nzu iri kwakamo amatara iteretsemo intebe zizengurutse ameza zifite ibara ry'umukara ndetse iruhande hari n'izindi ntebe z'imifariso.

Inyubako isize irangi ry'umweru, imbere ifite imbuga nini, ndetse ifite amabati y'ubururu, imbere yayo handitse amagambo agira ati inzu y'ababyeyi.

Abantu bahagaze ndetse umwe ni umwarimu, yambaye itaburiya undi ni umunyeshuri, ari kwereka uyu munyeshuri ukuntu amenyo akora, ndetse inyuma yabo hari abandi bantu bahahagaze, bari mu ishuri.

Umwana mutoya w'uruhinja, bari kumushyira ku munzani wifashishwa gupima ibiro abana kwa muganga, imbere ye hari umugore wambaye ishati y'umweru, ari kureba ibiro uyu mwana afite.

inzu yubatswe mu buryo bugezweho ifite koridoro ebyiri ndetse imwe ishamikiye ku yindi. Iyi nzu ifite ibara ry'umweru ndetse irimo amakararo, iri kwakamo amatara.

Umugabo w'umwirabura ni umuganga, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, mu kaboko ke k'ibumoso afashe umuti ndetse akaboko ke k'iburyo kari gukanda ku mashini.

Inzu yubakishijwe amabuye ndetse ifite imiryango n'amadirishya biriho ibirahuri. Iruhande rw'iyi nzu hari kugenda abagabo babiri: umwe yambaye itaburiya y'umweru, undi yambaye ishati iciye amaboko y'umweru.

Kwa muganga, iki cyumba kirimo amamashini ndetse kirimo utubati dusize amarangi y'umweru, ndetse kirekwakamo amatara.

Icyapa giteye ku muhanda, gifite ishusho y'umweru ndetse n'umukara ku gice cyo hasi, yanditseho Huye iki cyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Abantu batanu bahagaze barimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe, uyu mugabo ari hagati yambaye ishati y'umweru n'ijire y'umukara.

Ikibuga kinini giteyemo ibyatsi ndetse giteyemo amapoto abiri ariho amatara, hirya hari amazu y'amagorofa yubakishije amatafari ahiye ku gice cy'imbere ndetse ateye n'irangi ry'umweru.

Inzu yo kwa muganga ikikijwe n'ubusitani bwiza, bugiye burimo utuyira tw'abanyamaguru ndetse abarwayi niho banyura, izi nzu ziganjemo izisize amarangi y'umuhondo ndetse n'izindi zubakishije amatafari ahiye zifite amabati y'ubururu.

Imodoka iparitse imbere y'inyubako ifite ibara ry'ubururu bwererutse ndetse inyuma yayo hari abantu bahahagaze.

Umugore w'umwirabura, w'umuganga. Afite ibisuko by'umukara, birebire, ndetse yambaye itaburiya. Akaboko ke gafashe kuri mudasobwa. Ari gukanda, areba.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari gusuzuma umugore wicaye ku buriri ndetse iruhande rwabo hari undi nawe uryamye ku gitanda.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga, harimo igitanda gifite ibara ry'umukara, baryamishaho abarwayi igihe bagiye kubasuzuma ndetse harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ahantu hateguye neza hari intebe ndetse n'ameza, aya meza afite amabara atandukanye imwe n'umweru indi ni umukara indi ikoze mu rubaho, iruhande hari ururabo.

Abantu bicaye ku ntebe z'imbaho biganjemo abagore ndetse b'abayisilamu, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ndetse ari kubabwira, iruhande rwe hari icyapa gifite ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda, ndetse n'intebe, iki cyumba kirimo akamashini birukankiraho, ndetse harimo n'isaha imanitse ku gikuta.

Abantu bicaye kuri fondasiyo, ndetse harimo abagore n'abagabo. Imbere yabo hari umugabo uhahagaze, wambaye ikoti ndetse n'ishati y'umweru.

Icyumba kirimo amafirigo menshi ndetse iki cyumba gisize irangi ry'umweru, harimo umugore w'umuzungu ndetse yafunguye firigo ari kugenda areba.

Abantu bane bahagaze, bose ni abagore bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye imyenda isa, ni abaganga, inyuma yabo hari inzu yanditseho amagambo agira ati ''inzu y'ababyeyi''.

Urupangu runini rw'ibitaro ndetse rwubakishije amatafari ahiye, rukaba ruriho n'ibyuma, aha hari icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri.

Icyumba cyo kwa muganga ndetse kirimo ibitanda byinshi bigiye bitandukanyijwe n'amarido, ibi bitanda bifite amapine ku buryo ushobora kugisunika ukacyimura ukakijyana hanze.

Icyumba kirimo imashini zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, izi mashini harimo izo birukankaho, hariho izo basunika kugira ngo babashe kurambura imitsi.

Abantu bicaye ndetse n'undi uhagaze, wambaye umupira w'ubururu. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro. Ndetse iruhande rwabo hari umuryango ufunguye. Uhagazeho umugabo.

Abantu batatu bahagaze. Babiri ni abakobwa ndetse undi ni umuhungu. Bose bambaye imyenda y'umweru yerekana ko ari abaganga. Imbere yabo hari akabati kanini gafite irangi ry'umweru.

Umugabo w'umwirabura wicaye ku ntebe ifite umwenda w'icyatsi, yambaye itaburiya ikoreshwa n'abaganga ndetse iruhande rwe hari igitanda cyabugenewe abarwayi baryamaho kugira ngo babashe kubasuzuma.

Inzu ifite irangi ry'umuhondo ndetse iri kwakaho amatara, burije iruhande rwayo hari imbuga iteyemo jaride ndetse iteyemo n'igiti kirekire.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ndetse ari gukoresha imashini areba uko ibintu bimeze, ndetse izi mashini zikoreshwa kwa muganga.

Abantu babiri bicaye, umwe ni umuganga yambaye imyenda y'ubururu ndetse afite ibyuma byifashishwa kwa muganga mu ijosi. Imbere ye hicaye umugore wambaye ikanzu idoze mu gitenge, ari kumuganirira.

Abagabo babiri bicaye, umwe ni umukozi wa arabisi ndetse yambaye ijire n'umupira w'umweru, undi ni uwaje kwipimisha, inyuma ye hari icyapa cyanditseho irembo.

Inyubako nziza ifite umuryango ufunguye, uri gusohokamo abantu, ndetse imbere y'inyubako hari icyapa kinini cyanditseho RBC, imbere y'inyubako hari imodoka zihaparitse.

Icyumba cyo kwa muganga, iki cyumba kirimo amamashini menshi yifashishwa mu gupima abarwayi ndetse harimo n'amatara menshi, iki cyumba kirasa neza.

Umugabo wicaye, ndetse yamanuye ishati, kugira ngo babashe kumutera urushinge ku rutugu. Ndetse uri kumutera urushinge yambaye imyenda y'abaganga.

Inzu y'igorofa isize irangi ry'umuhondo ndetse imbere iriho icyapa cyanditseho amagambo agira ati '' ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi. ''

Inzu nziza irimo amatara yaka mu buryo bugezweho ndetse iki cyumba kirimo intebe zifite ibara ry'umukara, ndetse hari n'amafoto amanitse agaragara neza.

Inzu y'igorofa yubatswe mu buryo bugezweho, irasa neza ku gice cyo hejuru, ifite amarangi y'umweru, ndetse igice cyo hasi hariho amatafari ahiye, imbere y'inyubako hateye umukindo ndetse hari n'imbuga nini ihagije.

Icyumba kirimo imashini yo kwa muganga ndetse iyi mashini ifite ibara ry'umweru yifashishwa mu gupima umuntu, ndetse iki cyumba kirimo akabati gafite ibara ry'umweru gateretsemo amakaye ndetse n'imiti.

Umugabo uri kwa muganga yambaye umupira w'ubururu ndetse yatebeje ku ipantaro y'umukara, ari kuzinga supanete iri hejuru y'igitanda cy'umurwayi ndetse uyu murwayi arimo Sonde.

Imodoka nyinshi ziparitse, ahantu ziparitse hari imbuga nini ndetse hari umugabo uhagaze wambaye ishati itukura ndetse n'ingofero y'umukara. Inyuma y'izi modoka hari inyubako nini y'igorofa.

Inzu yubatswe muburyo bugezweho ndetse isize irangi ry'umuhondo iyi nzu irikwaka amatara nubwo ari kumanywa imbere yayo hari umukobwa uhagaze wambaye ishati y'umuhondo.

Kwa muganga, hari ibyumba bisize irangi ry'umweru, ndetse n'ibitanda byinshi, igitanda kimwe kiryamyeho umuntu wambaye imyenda irimo umutuku, ndetse hejuru ye hari amamashini.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ku kabaraza kayo hicaye abantu ku ntebe ndetse imbere y'aka kabaraza, hari ubusitani bukikijwe n'indabo.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo ndetse iyi nyubako irimo isaha imanitse ndetse na televiziyo. Iyi nyubako kandi irimo imashini zo kwa muganga zifashishwa kugirango babashe kureba uburwayi abantu bafite.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda, kirimo amamashini menshi yifashishwa igihe basuzuma abantu uburwayi ndetse hafatirwa n'ibizamini.

Icyumba cyo kwa muganga, gisize irangi ry'umweru ndetse kiri kwakamo amatara, iki cyumba kirimo imashini yabugenewe inyuzwamo abantu kugira ngo babashe kubasuzuma.

Umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi ari kugenda, ndetse ahantu hari ibitanda by'abarwayi. Ni kwa muganga. Ibi ibitanda bitandukanijwe n'igikuta gisize irangi ry'icyatsi.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya ariho ibyuma bisize irangi ry'icyatsi ndetse harimo ibirahuri byijimye, iruhande rw'inyubako, hari umugabo wambaye itaburiya uri kuhanyura.

Inzu y'igorofa iriho amagambo y'icyongereza yerekana ko ari kwa muganga, ndetse iyi nyubako ifite irangi ry'umweru, imbere yayo hari imbuga ndetse iruhande hakaba ubusitani bwiza.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'ubururu ndetse bambaye udupfukamunwa n'utunozasuku mu mutwe, umwe yicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari umuntu uryamye ku gitanda kiriho ishuka y'umweru.

Umusore wambaye umupira w'ubururu ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ndetse yambaye n'agapfukamunwa, ari gukoropa hari ibitanda iruhande rwe by'abarwayi ndetse iyi nyubako irimo amakaro.

Umukobwa wicaye ku buriri, yambaye umupira w'ubudodo ndetse n'ikabutura ntoya, ku ivi rye hariho agapfuko k'umweru, afasheho byerekana ko hari kumubabaza.

Umukobwa wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri, yahinnye amaguru ye arayasobekeranya ndetse akaboko ke kamwe arakarambura akandi agafatisha ku rutugu, imbere ye hari mudasobwa ari kureberaho.

Umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse, ndetse afite agatambaro ari guhanagura ku ivi ameze nk'uwakomeretse ndetse inzara ze ziraciye zifite ibara ry'umweru.

Abakozi babiri ba kuruwaruje bambaye amajire y'umutuku ariho ikimenyetso cya kuruwaruje, bateruye umuntu uri kuribwa cyane, wambaye umupira w'umuhondo wanditseho gatatu ndetse inyuma yabo hari abandi bantu bambaye imipira y'imyeru.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ahantu ku kiraro, munsi harimo amazi, ndetse yambaye inkweto z'umweru n'ikabutura y'umukara, akaboko kamwe kifashe mu mayunguyungu akandi gafashe ku kirenge.

Umukobwa w'umwirabura ufite imisatsi iziritse inyuma, yambaye isengeri imwegeye ndetse n'ipantaro y'umukara. Ari kunywa amazi ku kaboko ke k'ibumoso hariho terefone.

Igikapu gifite ibara ritukura ndetse kiriho uturongo tw'icyatsi ku ruhande, iki gikapu kibikwamo ibikoresho by'ibanze, ushobora gukoresha igihe uramutse ugize nk'impanuka byihutirwa. Ndetse habamo imiti, ku buryo uhita wivura mu buryo bworoshye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'icyatsi ndetse afashe icupa n'amaboko abiri ririmo amazi ari kuyisuka mu mutwe.

Umugabo wambaye ishati itukura, aricaye ku ntebe y'umweru ndetse imbere ye hari akabati gateretseho mudasobwa, ari kwitegereza. Iruhande rwe hari izindi mashini.

Umubyeyi wazanye umwana kumusuzumisha. Uyu mwana yambaye umupira ndetse mama we yambaye agapfukamunwa, muganga yambaye imyenda y'ubururu ndetse afite akuma kabugenewe ari kumurika mu jisho ry'umwana arebe ikibazo kirimo.

Icyumba gisize irangi ry'umweru ndetse kirirwakamo amatara, harimo utubati turimo impapuro ndetse n'amakayi, iki cyumba kirimo icyuma cyifashishwa mu kuvura ndetse gikoreshwa kugira ngo basuzume indwara umuntu afite.

Agatanda gafite ibara ry'umuhondo kifashishwa n'abaganga by'umwihariko igihe abakinnyi bavunitse, aka gatanda niko bakoresha, bakabajyanaho ndetse bakabajyana kubavura.

Umugabo w'umwirabura uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi myinshi ndetse yayizirikiye inyuma, arunamye yashinze amavi ndetse arambura n'amaboko imbere ye.

Umugabo wicaye hasi ndetse ari kwirambura, yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara amaboko ye abiri ari kuyakoza ku kirenge.

Igikapu gifite ibara ritukura, cyifashishwa mu gutwara imiti cyangwa ibikoresho by'ibanze mu gihe umuntu akeneye ubutabazi bwihutirwa akabasha kuyikoresha.

Umusore wambaye isaha ku kaboko k'iburyo, ndetse ari kunywa amazi. Yambaye ekuteri, icyuma gitambutsa amajwi, cyangwa cyumvirwaho imiziki. Kandi yambaye umupira w'umweru.

Abantu babiri. Umwe ni umuganga, undi ni umurwayi. Uyu muganga yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse yatebeje. Ari kuvura umuntu w'umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse yayihinnye akaguru kamwe kugira ngo babashe kumuzirikira bande neza ku kaguru.

Kwa muganga hari abantu bahagaze bambaye amakoti ndetse bari kwitegereza umuganga ukuntu avura umuntu ufite ikibazo cy'akaguru.

Icyapa kiriho abantu, berekana imyitozo umuntu ashobora gukora, iyi myitozo irimo gusutama, uhagarara, ndetse urambuye amaboko imbere, hariho gufata akaguru kawe, n'akaboko kamwe n'akandi kaguru ukakarambura neza.

Akuma kabugenewe gakoreshwa nk'igitanda gafite ibara ry'umuhondo, ndetse kifashishwa n'abaganga igihe abakinnyi bavunitse bakabatwaraho bagiye kubavura.

Agakoresho kifashishwa n'abaganga, kugirango kabashe gupima neza umutima niba utera, ndetse uruhande rumwe bararufata bakarwambara ku matwi ndetse urundi bakarukoza ku muntu.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri imwegeye ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara ndetse iriho akabara k'umweruru wijimye ndetse yambaye inkweto yahinnye amavi ndetse intoki ze azifatisha ku kaguru k'imbere.

Abantu biganjemo urubyiruko bari gukora imyitozo ngororamubiri, bose basa n'abaciye bugufi, amaboko yabo ari imbere ndetse bambaye imyenda yo gukorana iyi ngororamubiri.

Abantu babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe aryamye ku gatanda yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara bose ni abagabo ndetse undi arahagaze yashyize akaboko kuri iki gitanda yambaye ingofero.

Abantu biganjemo abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'utunozasuku mu mutwe wabo, bamwe baricaye abandi barahagaze, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse barakurikiye ku cyuma kigaragaza amashusho, umuntu urikuvuga.

Ibintu ushobora kwifashisha kugira ngo ukore siporo ndetse ugire n'ubuzima bwiza, hari ibyuma bibiri ushobora guterura ndetse hakaba n'imbuto ushobora gukoresha igihe umaze gukora iyi myitozo, hariho igi, hariho foromaje, hariho umuneke ndetse n'ibindi.

Umuntu wakoraga imyitozo ngororamubiri yo kwiruka arahagaze yifashe ku ivi ndetse ari kubabara, akaboko ke k'ibumoso kambaye isaha.

Abantu babiri bambaye imyenda y'umukara. Umwe yicaye ku ntebe ndetse bari kumuzirikira ku kaguru bande. Yambaye n'amasogisi y'umukara. Inyuma ye hari ifoto ihari.

Umugore w'umwirabura, uri gukora imyitozo ngororamubiri. Aricaye, ndetse amaguru ye yayahennye, ayafatira hagati. Ndetse iruhande rwe hateretse intebe.

Abantu batatu bambaye udupfukamunwa, umwe ni muganga, ari kureba umwana mu kanwa arebe ikibazo afite amurikayo itoroshi, ndetse abandi babiri barahagaze umwe n'umugabo undi n'umugore.

Umukobwa w'inzobe wambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro y'umukara, yazirikiye telefone ku kaboko ke k'ibumoso ndetse akaboko ke k'iburyo gafashe icupa ry'amazi ari kunywa.

Abantu benshi bari gukora imyitozo ngororamubiri biganjemo abana ndetse bari mu kibuga kinini ku buryo bisanzuye iruhande rw'iki kibuga hari ibyatsi.

Abantu bahagaze ku murongo ndetse bambaye amajire, ariho ikimenyetso cyo guteranya cy'umutuku, bigaragara ko bakora muri Croix rouge, bari kwihugura ukuntu bashobora gutanga ubutabazi.

Umugabo w'umwirabura afite icupa ry'amazi mu kaboko ke k'iburyo ndetse ari kuyanywa, yambaye umupira mutoya umufasha gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari ibyatsi.

Ibikapu bibiri kimwe cyifashishwa kugira ngo kibikwemo ibikoresho by'ibanze umuntu ashobora gukenera agiye gutanga ubufasha bw'ibanze ku muntu wahuye n'ikibazo cy'ubuzima.

Umugabo umaze gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikoti ry'ishashi ndetse rifite n'ingofero, afashe icupa mu kaboko ke k'ibumoso ry'amazi ndetse ari kunywa.

Abantu bane bagaragara ku gice cyo hasi ndetse bari kwirukanka muri sitade iciyemo imirongo ndetse iyi sitade ifite imirongo y'umweru.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda y'ubururu ndetse yambaye na ga, ari kwereka umugabo ukuntu yabasha kugenda yifashishije agakoresho kabugenewe.

Umukobwa wambaye isaha ku kaboko ke k'ibumoso ndetse na ekuteri, ari kumva indirimbo ndetse ari gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko ye ayafatira hejuru, yambaye agasengeri k'umutuku gatoya kamwegeye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara, yaciye bugufi ivi rimwe ararishinga ndetse akandi kaguru aragahagarika. Imbere ye hari amakaro.

Imashini nyinshi ziteretse hamwe. Harimo izifata amashusho, izo gutanga enterinete ndetse hari n'umugore uri kuvugira kuri telefone y'umweru, imbere ye hari mudasobwa.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara bari kumuzirekera ku kaguru katambaye urukweto, akandi kaguru kararambuye kambaye inkweto n'isogisi hari umugore wambaye imyenda y'abaforomo uri kumuzirikira ako kaguru.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara uri kunywa amazi ndetse anayimena mu mutwe, akaboko ke k'ibumoso niko gafashe icupa ndetse akandi k'iburyo gafashe mu mayunguyungu.

Umugabo uri kunywa amazi, ndetse yambaye agapira k'umukara kamwegeye cyane n'agasume kari mu ijosi, afite akaboko kanini, biragaragara ko avuye muri siporo.

Ingingo zifashishwa mu gusimbuza izindi, iyo umuntu atabasha kuba akigenda neza cyangwa adafite akaguru iyi ngingo barayimuha bakamufasha kuba yakongera kugenda neza.

Umugore wicaye ku buriri ndetse ari kumwe n'umwana we mutoya, uyu mugore yambaye imyenda idoze mu bitenge ndetse iruhande rwabo hari ibindi bitanda.

Umugabo ufite icupa ry'amazi ari kuyisuka mu mutwe ndetse yambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi, ku kaboko ke k'ibumoso hariho akantu kazirikiyeho.

Umugabo wicaye w'umuzungu, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara zirimo ibara ry'ubururu, risa n'umupira yambaye ndetse mu ijosi rye afitemo aka esuwime k'umuhondo, afashe terefone mu ntoki ndetse ari kunywa amazi.

Umuntu w'umwirabura wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura ntoya imufashe y'umukara; yamanitse akaguru ari kugakoresha imyitozo; ndetse yambaye n'inkweto zifashishwa mu kuruhura umubiri.

Umugore w'umwirabura wambaye umupira w'umweru ndetse afashe agatambaro ku kaboko ke k'ibumoso ndetse aka gatambaro gafite ibara ry'ubururu.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye ibyuma bitambutsa imiziki mu matwi. Afite icupa ry'amazi mu kaboko ke k'ibumoso. Ndetse ari kuyanywa.

Umukobwa w'umwirabura, wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso ndetse amaboko ye ari kuyazamura, ayakoresha siporo ndetse yambaye agasengeri kamwegeye.

Imbuto zifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza harimo imineke, pome, amarongi pavuro z'umutuku ndetse n'iz'umuhondo.

Igikapu cyifashishwa n'abaganga gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umurongo w'umuhondo ku gice cyo hasi, iki gikapu kibikwamo imiti ndetse n'ibikoresho by'ibanze umuntu ashobora kwifashisha mu gihe agize ikibazo.

Abantu babiri b'abazungu, umwe ni umugabo undi n'umugore, uyu mugore afite imisatsi miremire ndetse bose bari kunywa amazi, bareba hejuru.

Umukobwa wambaye agakabutura gatoya ndetse n'agasenge gatoya n'inkweto bisa, arahagaze ndetse ku kaguru kamwe akandi yakazamuye agafatishije amaboko ye abiri.

umukobwa wambaye ipantaro imwegereye y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara afite, imisatsi myinshi ndetse yayizirikiyeye hejuru aricaye akaguru kamwe yagahinnnye akandi arakarambura arunamye kugira ngo abashe gufata ku mano y'aka kaguru karambuye.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa ndetse n'umusatsi muke, ari kunywa amazi, yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ishanete mu ijosi.

Agasekuro gatoya gakoze mu ibuye ndetse karimo umuhini, iruhande rw'aka gasekuro hari ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse bikoreshwa nk'umuti.

Umugabo wambaye imyenda y'abaganga y'itaburiya ndetse afite umuti mu ntoki ari guwusuzuma neza areba ko umeze neza, imbere ye hari amacupa abiri ahateretse.

Imbuto zigira akamaro kenshi ku buzima bw'abantu ndetse imbuto zishobora kwifashishwa kugira ngo umuntu abashe kugira ubudahangarwa ku buzima bwe, aya n'amaronji y'umuhondo ndetse n'ay'icyatsi.

Ipapayi, ipapayi irakase ndetse irimo imbuto izi mbuto ni umukara, iyi papayi yifashishwa nk'inintungamubiri ndetse iyo wayiriye ubasha kugira indwara zimwe na zimwe utarwara.

Umugore ufite imisatsi myinshi, yambaye ikanzu y'umweru ndetse afite igikapu ku kaboko ke k'ibumoso. Akaboko ke k'iburyo kari gukora ku byatsi biri iruhande rwe.

Umuti wifashishwa hagati y'abashakanye, uyu muti ufasha kutarangiza vuba kudacika intege mu gihe muri mu gikorwa cy'abantu bakuru.

Ahantu bacuruza imiti ya kinyarwanda, hari umugore uri gucuruza uteze igitambaro ndetse imbere ye hagaze umugabo uri kumubaza uko iyo miti ikora cyangwa uko igura.

Iduka ricuruza imiti ya kinyarwanda ndetse iyi miti yiganjemo ipfunyikwa mu ducupa dufite ibara ry'umweru n'ibara ry'umutuku ndetse n'utw'umuhondo.

Igiti gifite amababi menshi y'icyatsi iki giti cyitwa umuravumba cyifashishwa igihe kimwe kugira ngo umuntu agikoreshe nk'umuti kivura inzoka, ndetse giteye hagati y'ibipangu bibiri.

Umugore wambaye igitenge, ugaragara akaboko igice gitoya, ari gufata ku ndabo, ndetse indabo n'imitako yifashishwa, kugira ngo yongerere ahantu ubwiza.

Icupa riteretse ku isahani, iri cupa ni iry'umweru ndetse rirapfundikiye, rishyirwamo umuti, iruhande rw'iri cupa hari amaronji y'umuhondo.

Amacupa abikwamo imiti, ayo macupa ari mu ngano zigiye zitandukanye ndetse hari n'arimo amavuta, ibi byifashishwa kwa muganga ndetse no mu nganda.

Imiti ya gakondo iyi miti ikiyiranga iba iri mu macupa ndetse ukabona ko ikozwe n'ibyatsi ndetse aya macupa harimo ay'umukara, ay'umutuku ndetse n'ay'umweru.

Abantu babiri bahagaze inyuma y'ibyatsi ndetse umwe ni umugabo yambaye umupira utukura ndetse n'ikote ry'umukara, undi niumugore yambaye umupira w'umweru.

Indabo zifite ibara ritukura ndetse iruhande rw'izi ndabo hari ibibabi binini by'icyatsi, indabo zifashishwa mu gutaka ndetse zikongerera ahantu ubwiza.

Agacupa gafite ibara ry'umuhondo. Ndetse gafite n'umufuniko utukura. Iri cupa kandi ryanditseho amagambo afite ibara ritukura. Ni icupa rishyirwamo umuti.

Imitako ndetse iri mu mavaze. N'indabo zigiye zitandukanye, iruhande rwazo handitse amagambo mu nyuguti z'umukara, ndetse izi ndabo zikoreshwa mu gutegura zongera ubwiza.

Igishushanyo kiriho imiti y'amibe, iki gishushanyo kiriho amagambo agira ati igisubizo kuri amibe, hasi hariho amagambo akomeza agira ati niyo yonyine ishobora guhangana n'amibe ku kigero cyo hejuru.

Imiti yifashishwa mu kuvura binyuze mu buryo bwa kera; ndetse iri mu macupa agiye atandukanye yiganjemo afite ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu.